Uburyo bwo kuhira imyaka itewe ahantu mu bishanga ndetse no gutera imiti bagaheka ipombo, bagakoresha amazi, aho bafata iyo pombo bakagenda bayihagamo amazi bashyira mu myaka, batera imiti ndetse banuhira.

Umuhinzi uri ahantu mu gishanga hahinze umuceri afite imashini n'ubundi buryo ari gukoresha yuhira ashyiramo amazi kugira ngo hatuma.

Umuhinzi uri mu kazi urimo yuhira imyaka ye, imyaka isa neza aho afata ipombo akarishyira mu mugongo akariheka akagenda akwizakwizamo amazi akoresheje umugozi w'iyo pombo anyuzamo amazi.

Ikiyaga kinini ahantu hari amazi menshi. Hari abantu bambaye amasarubeti ndetse n'undi utambaye isarubeti wambaye ingofero. Bafite indobo bari gushyira mu mazi hagati, iruhande hari ubwato bw'ibiti.

Umurima munini tema icyayi, harimo abahinzi benshi, abari gusoroma icyo cyayi, bamwe barahagaze, abandi bari gukora, hari n'abahagaze barambuye amaboko.

Icyayi kinshi giteye ku buryo bucecetse harimo umuhinzi urimo asoroma icyayi n'ibindi biti byagereviriya, hakurya hari imisozi myinshi bigaragara ko icyayi giteye mu gishanga.

Imiti y'amatungo harimo: ibinini, imiti batera bakoresheje inshinge, imiti iterwa inka z'imbyeyi ndetse n'inka zikiri ntoya.

Amatungo maremare ari ahantu mu ifamu hazitiye n'ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye, hasi hari ibyatsi, amatungo yitwa inka, harimo afite ibara ry'umukara, afite ibara ry'igitare.

Inka y'ikibamba ifite amabara y'umukara n'umweru, umworozi arimo arayikama, agafata icebe, agafata amabere yayo, akamira mu gikoresho cyabugenewe.

Ibitunguru bihinze, biri mu murima hagati yabyo harimo ibindi byatsi byamezemo nk'ikirare, ibitunguru bikiri mu kigero gitoya, bitarakura.

Igiti cya gereveriya, kikiri gito, giteye ahantu ku butaka bwiza, busa umukara, harimo amabuye akiri mato, iruhande hari ibyatsi bigiye byumye, ibindi bitoya biri kumera.

Imboga z'amashu ziteye ku murongo aho hagati y'ishu n'irindi mu buhagarike nta mwanya urimo ariko mu butambike hagiye hasigayemo akayira.

Ubuhinzi bw'imyumbati iteye ku buryo butegeranye, umwe uteye hamwe, undi ukigira hirya utegereye undi, ifite amababi asa icyatsi...

Ibiribwa bitandukanye byifashishwa mu rugo, haboneka ibyo kurya ndetse bakaba babona amafaranga, aho bimwe babikoresha babiteka, ibindi bakabigurisha bakabijyana mu isoko bakabona amafaranga, harimo; karoti, inyanya, ibigori, ndetse n'ibinditi utibagiwe n'imineke n'insenda bikoreshwa.

Igihingwa k'imyumbati giteye mu butaka, iruhande hari ibibabi by'ibigori byumye, umwumbati muto utarakura, iruhande hari ibyatsi bitaruma.

Ibicuruzwa bitandukanye bikunze kuboneka mu masoko hirya no hino ndetse no mu mabotike harimo biswi, hakazamo amaji, ibirayi, amaronji ndetse n'ibindi.

Inzu yubatse ifite amabara y'ubururu, imbere hari ubuhinzi bw'imibyare, hari umubyare ibiri mikuru, hakaba n'akandi gatoya, umubyare umwe ufite igitoki kitari cyakura.

Ibiti byinshi bicucitse, biba byarameze ari bito. Bigakura bikagenda byegerana biba byinshi. Iyo batabitemye ngo babigabanye hakaza harimo ibicu byinshi bisa umweru.

Ishyamba, ibiti byinshi biteye bicukitse, bigoye kubonamo inzira, no kubona ikintu kiri inyuma bigoye, harimo ikindi kintu kitari ishyamba.

Ubuhinzi bw'indabyo, abagore babiri bakinyeye ibitenge, umwe yambaye umupira, undi yambaye ishati, hari uteze igitambaro, undi afite umusatsi udatezemo igitambaro, barunamye, bahinga indabo.

Amazi menshi ari ahantu mu bishanga hari imirima iteyemo ibihingwa bitandukanye, hirya hari akazu gatoya karimo urugi rusize irange ry'ubururu, uburyo bwo gufata amazi hakoreshejwe imashini ajyanwa mu misozi hejuru.

Umuntu uhagaze yambaye ikabutura n'umupira w'amboko magufi, afite rozwari ebyiri mu ntoki, zirimo amazi, ari kuhira imirima ya karoti.

Umugabo uhagaze imbere y'amazi agomeye arimo yunama akoresha uburyo bwo gufata amazi akayazamura hejuru mu musozi ngo yuhire, yambaye ingofero n'ijire y'akazi.

Imisozi iteyeho ishyamba ahagana hasi umanutse ku musozi urahasanga amazi ari mu ibara ry'ubururu ndetse bitewe n'ikirere kuko cyasaga ubururu, hakaba hari ibindi bicu by'umweru.

Imisozi miremire harimo iteyeho amashyamba indi ikozeho amaterasi y'indinganire itewemo ibihingwa bigiye bitandukanye, hejuru hari ikirere kigaragara ko kijimye.

Umusozi uteyeho ibihingwa bitandukanye harimo inzu yo guturwamo, imbere hari umuntu uhahagaze, mu murima uri hafi aho harimo urutoki n'ibindi bihingwa byinshi.

Imisozi n'ibibaya, hari imisozi ihanamye ndetse wagera hasi ukabona hatambika, hejuru hari ibihu bisa umweru.

Inka ziri ahantu mu ifamu aho zirira, hari ibyatsi n'ibiti birebire zotimo izuba iyo ribaye ryinshi, hari umugabo uhagaze arimo azireba.

Inkwavu ziri ahantu hamwe ebyiri ziri hamwe izindi zigiye ziri ahantu hatandukanye, harimo inkwavu zisa umweru, hakaba inkwavu zisa umweru zifite n'ayandi mabara nk'umukara, ikijuju, n'ayandi.

Inka ziri ahantu hamwe, zegeranye, zambaye amaherena ari mu ibara ry'umuhondo, nazo zigiye zifite ibara ry'isine, zose zirasa.

Amatungo maremare y'inka, ahagaze ahantu ari menshi yegeranye, arimo kurisha, andi ahagaze.

Inka nyinshi zashyirzwe ahantu hamwe mu kiraro cyabugenewe aho zikingirwa zikanaterwa inshinge, ni inka zifite ibara ry'igaju zifite amahembe maremare, iruhande rwazo hari abaganga b'amatungo bambaye impuzankano yabo.

Ihene ziri mu gasozi, ahantu hari ibyatsi, ni ihene zifite amabara, umweruru n'ikijuju, zirimo zirarisha.

Inkoko amatungo magufi atanga umusaruro ku borozi, hari inkoko y'umukara iy'umweru ishokora, imbere yazo hari inzu yubakishijwe imbaho aho zirira.

Inka ntoya yitwa inyana, iryamye ahantu mu nzu yayo yonyine .Inzu yubakishijwe ibyuma, ni inyana ifite amabara y'umweru yiganjemo cyane.

Umworozi uri imbere y'inka ufite icyatsi cyo gukamiramo, yambaye ishati n'ingofero n'ipantaro, inka irahagaze bamaze gukama, hirya hari indi nka iriho umuntu wunamye yambaye ishati y'ubururu.

Imbuto y'amasaka ahingwa ni amasaka akase atari yahurwa akiri ku duti twayo, aciyemo kabiri harimo ay'umutuku, n'ay'umweru ndetse n'ibara rya shokola.

Inka ziri ahantu hazitiye ikiraro cyubakishije ibyuma, harimo umugabo wambaye imyenda y'ubururu na ga mu ntoki zo kwirinda.

Inka ziri ahantu hamwe zifite amahembe maremare, aho ziri harazitiye n'ibyuma hahagaze umugore wambaye imyenda y'akazi, itaburiya y'umweru, ga z'ubururu mu mutwe we harimo igitambaro cy'umu.

Inyamaswa zo mu gasozi zibera ahantu hafi y'amazi, harimo ibyatsi bikeya nyayamanswa ziguruka zikoze mu bwoko bw'ibisiga, zitunzwe no kugenda zijya hirya no hino zigashaka ibyo kurya ziboneka cyane cyane ku mazi.